Inzu mberabyombi ikorerwamo inama zige zitandukanye, hakaba harimo abantu benshi abahungu, abakobwa bamwe bambaye imipira y'imikara n'abandi bambaye imipira y'imyeru, hakaba hari imeza ibateretse imbere iri mu ibara ry'icyatsi inyuma yaho hakaba hari utwapa tugaragaza amasosiyete akorera aho ngaho.

Inzu mberabyombi ikorerwemo inama ikanatangirwamo ibiganiro bigiye bitandukanye, imbere hakaba hari umudamu urimo urabavugisha wambaye ishati y'umweru irimo amabara, akaba yambaye n'ijipo y'umukara n'abandi bantu bamwicaye iruhande ku meza ziriho ibitambaro by'umutuku, imbere ye hakaba hariho ekara igaragaza amashusho, iri mu ibara ry'umweru, hakaba hari n'akantu karanga ibirimo birakorerwa aho ngaho kari mu ibara ry'ubururu n'umweru.

Inzu mberabyombi iberamo inama zitandukanye hakaba harimo abantu bagaragara batatu, babiri bagaragara neza. Abadamu babiri, umugabo umwe wambaye impuzankano ya polisi, hariho idarapo ry'igihuhu cy'u Rwanda.

Inzu mberabyombi ikoreragamo intama zitandukanye haririmo abantu benshi harimo abahagaze harimo umugabo uhagaze n'umudamu uhagaze wambaye umupira w'ubururu umugabo yambaye ishati y'umweru nyumaho aka ari akapa kagaragaza ibikorerwa aho ngaho.

Inzu mberabyombi iberemo inama zitandukanye hakaba harimo abantu benshi batandukanye by'umwihariko abadamu bakaba bicaye ku ntebe z'imikara nyinshi hakaba imbere yaho hakaba hari imeza iri mu ibara ry'umutuku hakaba hari n'amamikoro imbere yabo n'uducupa tw'amazi duteretse kuri izo meza.

Inzu mberabyombi ikorwamo inama zitandukanye n'ibiganiro bihatangirwa, hakaba hari ikintu cy'umweru kigaragaza amashusho, hakaba hari n'abantu bicaye iruhande ku meza iriho ibitambaro by'umweru hakaba hari n'undi urimo urabahereza ikiganiro wambaye ikote ry'umukara.

Ahakorerwa ibijyanye n'inama ariho mu nzu mberabyombi hakabari hamo abadamu batandukanye hakabamo n'abagabo batandukanye bigaragaye ko bari mu nama, hari amatasi abari imbere n'ibirahuri bibari imbere birimo amazi n'amatelefone imbere yabo.

Inzu mberabyombi ikorerwamo inama zitandukanye hakaba harimo abantu benshi bicaye ku meza y'umutuku iyo meza ikaba irimo nutundi tubara tw'umukara iruhande rwabo bantu hakaba hari amacamera nabandi babahagaze iruhande imbere yabo hakaba hari icyapa kiri mw'ibara ry'ubururu.

Inzu mberabyombi iberamo inama zitandukanye, hicayemo abantu benshi bitabiriye inama. Ari: abagabo, n'abadamu. Abadamu babiri bagaragara bambaye ikoti ry'umutuku, n'undi wambaye ikoti ry'ubururu, n'abandi bagabo bambaye amashati y 'umweru, n'amakoti y'umweru, n'amakoti yumukara.

Inzu mberabyombi ikorerwamo inama zitandukanye n'ibiganiro bitandukanye, hakaba harimo abantu bambaye impuzankano zisa zo mu ibara ry'ubururu, hakaba hariho idarapo igaragaza igihugu cy'u Rwanda ririmo amabara y'ubururu, muhondo, n'icyatsi, hakaba hari ikindi kirangantego kigaragaza sosiye bari mo.

Inzu mberabyombi iberamo inama zitandukanye n'ibiganiro bitandukanye. Hari umudamu uhagaze wambaye ikanzu y’umukara, arimo atanga ikiganiro. imbere hakaba hari agatuti k'ibara ry'umweru n'ubururu, inyuma ye hakaba hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru n'ubururu, n'intebe ziteretse ahongaho zigera muri eshanu ziba ryihariye.

Inzu mbera byombi ikorerwamo ibijyanye n'inama, hakaba harimo Ameza menshi n'abantu bazicayeho benshi abagabo n'abagore, izo meza zikaba ziriho ibi tambaro by'umutuku, hakaba hari nundi mugore uri kubaha inama iruhanderwe hakaba hari imashini iteretse ku meza iriho igitambaro cy'umweru.

Inzu mberabyombi ikorerwamo inama hakaba harimo abantu bagaragara bagera muri batatu, umwe utagaragara neza abagabo babiri numudamu umwe hakaba harimo umugabo umwe wambaye ikote ry'umukara, akaba yambariyemo n'agapira k'umuhondo mo imbere umugabo uri mwibara wirabura.

Inzu mberabyombi iberamo inama zitandukanye, hakaba harimo abantu benshi batandukanye barimo abambaye impuzankanto za police zirimo ibara ry'umukara. Nabandi bagabo bambaye amakositimu y’ umukara, barimo abambaye amarinete n'abadamu bambaye amakanzu arimo akabara k'umutuku hakaba hari imeza y’ umukara iteretseho amazi n'ibitabo.

Inzu mberabyombi ikorerwamo inama, hakaba harimo haraberamo inama y'abantu benshi batandukanye, bicaye ku ntebe z'imikara bazengurutse, n'abandi bicaye ku ntebe z'imikara inyuma yabo hari imeza imwe ifite ibara ry'umutuku kuri ayo meza harihoho amatelefone n'amamikoro yo kuvugiramo.

Ahatangirwa serivisi za Leta, harimo ameza atandukanye, hakaba harimo imashini zitandukanye nyinshi, imbere y'izo mashini hakaba hicaye abantu bagera muri barindwi, hamwe harimo abahagaze, hakaba harimo n'abandi bicaye.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bujyanye no gukorerwamo no gutanga serivise mubijyanye nirembo hakaba hari icyapa kigaragaza serivise zitangirwa ahongaho haba izamabanke nizirembo niza mobayiromani hakaba hari umuntu urimo aragenda agana muruwo muryango.

Agakoresho kifashishwa mu bijyanye n'amashanyarazi, bijyanye no gukupa no gukupura umuriro, ka mu ibara ry'umweru hari insinga z'umutuku, ebyiri uko gakoreshwa kakaba gacometse ku gikuta, kiriho karabasasa n'amabati hejuru n'itiyo y'umukara irimo iracamo insinga z'ubururu n'umutuku.

Amapoto abiri ateganye y'umuriro akoreshwa mu gukwirakwiza amashanyarazi ahantu hatandukanye. Hakaba hari kontineri iruhande rwaho n'insina z'ibitoki hasi n'ibindi biti n'amazu ari iruhande rwiyo poto y'umweru.

Umunara muremure uriho insinga z'imikara tukaba tubona harimo ikirere cy'umweru n'ubururu, uwo munara akaba ari umunara muremure w'amapoto y'amashanyarazi.

Igipangu kiri mu ibara ry'umukara i ruhande rwacyo cyubakishije amatafari ahire ari mu ibara ry'umutuku n'utundi tubara tw'umukara i ruhande rwaho hakaba hari anteni iri aho ngaho iri hejuru ku amabati y'umutuku.

Mu muhanda hari ipoto ry'amashanyarazi ririho n'itara rimurika mu uwo muhanda, ibiti bitandukanye biri iruhande rw'uwo muhanda, hakaba hari n'akuma kari mu ibara ry'umutuku n'umweru, igipangu kiri iruhande rw'uwo muhanda n'ibindi byatsi bikikije aho ngaho.

umuhanda urimo abantu batandukanye abagore, abagabo, abana, hakaba harimo hacamo ikamyo yikoreye kontineri y'umweru hakaba hari umutaka wo mu ibara ry'umuhondo wa sosiyete y'itumanaho ya MTN yahakorerwa ubucuruzi bujyanye no kohereza no kwakira amafaranga hakaba hari icyapa cyirimo ibara ry'umutuku n'umweru harimo n'akabara k'umukara ari ipoto ryi itara ryo mu muhanda.

Amapoto abiri ariho taransifo ifasha gukwirakwiza amashanyarazi mu baturage, aya mapoto akaba ateretse ahantu iruhande rw'ahari ibyatsi n'ibiti birebire n'indi nzu iri mu ibara ry'umutuku iri aho ngaho ku ruhande.

Ahantu hatangirwa serivisi za leta harimo abantu barimo baragenda binjira muri iyo nzu, imbere hakaba hari imodoka eshatu ebyiri z'umweru hakaba iruhande rwe hari umudamu uhiyicaye na terimusi mu ibara rya oranje.

Ahatangirwa serivisi z'ibijyanye n'ubuvuzi, hari ibitaro bya Muhima. Hariho ku gipangu ikiharanga Mumabaro y'umutuku imodoka akaba iparitse, imodoka y'umutuku. kandi igipangu kiriho ibimenyetso by'imisaraba y'imituku mwimbere hakaba harimo abantu benshi. iruhande hubatsemo akazu karimo ibara ry'umuhondo.

Ahatangirwa serivisi z'ibijyanye no kwivuza, hakaba hari inzu yubatse mu matafari ahiye ya munyu, hakaba hari n'abantu bicaye ku ntebe aho ngaho imbere, hakaba hari pasparme z'icyatsi ziri iruhande rwabo n'ibiti bihashinze by'imikindo.

Ahabera ibijyanye nubuvuzi hakaba hari inzu iri iruhande rwaho, hakaba hari jaride iri mwibara ry'icyatsi nizindi ndabo z'umutuku nizindi z'icyatsi, iyonzu ikaba iteretse imbere yaho intebe zo kwicaraho bategererejeho abarwayi.

Ahantu hatangirwa serivisi zitandukanye za leta, hakaba harimo abagabo babiri bamo agenda mu muhanda wa kaburimbo w'umukara, iruhande rwaho hari inzu y'amatafari igeretse kabiri, hirya hakaba indi nzu iri mu mabara y'umweru n'amabati y'umutuku iruhande rwaho hakaba haparitse imodoka nyinshi.

Umudamu w'imibiri yombi wambaye ikanzu y'umutuku irimo ibara ry'umukara n'umweru, igaragaza yuko ari iy'abacamanza akaba yambaye rinete z'umukara, akaba afite umusatsi uteretse w'umukara, akaba ari umudamu w'imibiri yombi yambaye n'amaherena abiri.

Igipangu kigaragaza yuko ahantu hakorerwa ibijyanye na gereza hafungirwamo abantu bakoze ibyaha bitandukanye, akaba ari gereza y'i Rubavu ikaba iri mw'ibara ry'umuhondo n'amatafari ahiye ari mw'ibara ry'umutuku.

Ahakorerwa ibijyanye no guca impanza hagaragaramo abantu bagera kuri bane harimo abadamu babiri n'abagabo babiri hamwa abo badamu babiri bakaba bambaye amakanzu y'imikara harimo akabara k'umuhondo n'akandi kabara k'umweru n'undi mugabo ikanzu y'umukara n'undi umur'iruhande ugaragaza ko ari mu rubaza wambaye iroza.

Hano hari uruhurirane rw'abagize ishyaka rya Efuperi Inkotanyi. bafite amadarapo arimo ibara ry'ubururu, umutuku ndetse n'umweru. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara. Hari abashinzwe umutekano mu rwego rwa Sitiyu.

Umugabo wambaye ikanzu igaragaza yuko ari iy'abacamanza irimo akarongo k'umweru hagati n'akarongo k'umukara, iyo kanzu ikaba iri mu ibara ry'umutuku, umugabo akaba yambaye karuvati n'ishati mo imbere akaba yambaye rinete z'amaso, akaba ari umugabo wirabura.

Inzu iri mu mabara y'umweru, ikaba ifite umuryango uri mu ibara ry'umweru n'amakaro y'umweru, harimo kizimyamwoto z'umutuku zifite imipira y'imikara, izo kizimyamwoto zikaba zifashishwa mu bijyanye no kuzimya umuriro, igihe haba habaye inkongi aho ngaho.

Umuhanda nyabagendwa, urimo uragendwamo n'abantu bambaye impuzankano zisa z'umukara, bigaragara ko ari polisi ibafashe n'imbunda, iruhande rwaho hakaba hari umuntu uri ku igare wambaye umupira w'icyatsi, inyuma yaho hakaba hari imitaka y'umuhondo n'umutuku, igaragaza serivisi zo gutanga no kohereza amayinite.

Abagabo bahagaze ahantu Ari benshi bari kumurongo umwe wambaye impuzankano z'umukara ziriho idarapo ry'igihugu bafashe imbunda muntoki. Izo mpuzankano zigaragaza yuko ari aba polisi bakaba bambaye inkweto zimikara ingofero z'umukara.

Umuhanda nyabagendwa aho uri mu bwoko bwa kaburimbo, uri mo imodoka ebyiri imwe izamuka, indi imanuka, imbere yaho hakaba hari umugabo wambaye impuzankano zigaragaza yuko ari umupolisi, iruhande rwiwe hari icyapa kiriho idarapo ry'u Rwanda, umugabo akaba yambaye yamyenda irimo amabara y'icyatsi.

Ahantu hahuriye abantu benshi bamwe bafashe amakamera, bigaragaza ko ari abanyamakuru, n'abandi bambaye impuzankano zisa z'amashati y'umweru n'icyatsi, harimo abagabo babiri bambaye imyenda isa n'umudamu wambaye ijya gusa n'iyabo, hakahari ipoto ry'umutuku n'umweru, n'irindi rikikije ahongaho ry'umukara.

Ahantu harimo harabera inama hari umugabo umwe uhagaze ufite mikoro arimo avugiramo wambaye ikositimu y'ubururu n'umupira w'umweru uriho ifoto yiwe nyuma yaho akaba ari nabandi bantu bajyera muri batanu bahicaye abadamu n'abagabo bambaye imipira y'umweru nyuma hakaba har' inzu iriho icyapa cy'umuhondo cya sosiyete yitumanaho ya MTN.

Ahantu harebereye ibiganiro hari abantu benshi bisize amarange ajya gusa ari mu ibara ry'umutuku, ubururu n'umweru, hakaba hari n'umudamu wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'icyatsi, hakaba hariho abantu benshi bigaragara ko haratangirwa ikiganiro.

Umuhanda uri moto ebyiri n'imondoka imwe, iri mu ibara ry'umweru ya kwasiteri. Hakaba harimo n'umugabo wikoreye umufuka w'umweru, izo moto zikqba ziriho abagenzi, imwe ikaba iriho umumotari n'umugenzi, Nindi umumotari n'umugenzi bambaye kasike, ziri mu ibara ry'umutuku.

Umuhanda urimo uracamo imodoka iri mu bwoko bwa coaster ifite ibara ry'umweru. itwaye abagenzi iruhande hakaba hari umuntu urimo uragenda mu muhanda. hakurya hakaba amapoto ariho amatara yo mu muhanda, kandi n'umunara uri ahongaho ku muhanda ucishwa amashanyarazi.

Umuhanda urimo uragendamo imodoka yo mu bwoko bwa kwasiteri y'umweru, iruhande rw'uwo muhanda hakaba hari amazu, hari imiryango igera muri ine harimo iy'umutuku, n'indi muryango w'umweru, hakaba harimo imiryango yo isa umukara.

Umuhanda iruhande rwaho hari igipangu kiri mwibara ry'umweru hakaba hagaragaramo moto eshatu moto hariho abamotari bambaye amakasike y'umutuku bombi uko Ari batatu nimajire yimuhondo iruhande hakaba hari ibiti n'amapoto.

Umuhanda wa kaburimbo ugendwamo n'imodoka nyinshi zitandukanye, amagare, moto, hakaba harimo imodoka igaragara iri mu bwoko bwa hoho ifite ikintu inyuma cy'umweru, ikaba ifite igitwe cy'imbere cyayo cy'umuhondo, hakabamo n'izindi modoka zimanuka n'izindi zizamuka.

Umuhanda muremure urimo uragendamo abantu benshi, n'abandi bicaye iruhande rwawo ku dutebe turi aho ngaho ku ruhande. Kuri uwo muhanda, ku ruhande hakaba hari ibiti birebire by'imyikindo ndetse hari n'inzu iruhande rwawo, ndende.

Icyapa kigaragaza ibyerekezo bitandukanye ibikomeza nibijya kuruhande icyo cyapa kikaba kiri mwibara ry'umweru n'ubururu.

Ahantu hatangirwa serivisi y'ibijyanye na peteroli na esanse hakaba hari amodoka aparitse ahongaho imbere yaho inyuma yaho hakaba hari inzu ndende igeretse inshuro enye.

Umuhanda w'igitaka urimo ugaragaraho ibipangu bibiri kimwe cy'umukara n'ikindi cy'icyatsi, hakaba hagaragaramo inzu mo imbere mu icyo gipangu cy'icyatsi hakaba hari n'utwatsi n'indabo, iruhande rwaho ni mu muhanda.

Umuhanda urimo moto zirimo ziragenda n'izindi modoka ziparitse iruhande rw'uwo muhanda ziri mu ibara ry'umweru n'abantu barimo bagenda iruhande rw'umuhanda kuko hari inzu irimo irange ry'icyatsi iriho ibyapa bigenda bitandukanye bigaragaza ibikorerwa muri iyo nzu.

Umuhanda nyabagendwa ugendwamo n'imodoka zitandukanye harimo n'amagare na moto n'ibindi binyabiziga bitandukanye, bikaba ari utubara tw'umukara n'umweru dukikije pasiparumu zirimo hagati mu muhanda.